Iyi ni imiti ikoreshwa n'abaturage, mu buryo bwo kwica udusimba mu myaka, bityo bigatuma abaturage babona umusaruro mu bihingwa byabo bahinze, urugero yica udukoko mu bishyimbo, yica udukoko mu bigori, ndetse n'ahandi.

Ni umuti w'ubwoko bubiri butandukanye, ukoreshwa mu myaka mu kwica udusimba dushobora kwangiza imyaka, undi ugakoreshwa mu mbuto kugira ngo imbuto zikure neza ,kandi niyo myaka ikure neza itangijwe n'udusimba.

Imiti ya kizungu ikoreshwa mu gufumbira ibigori ndetse n'inindi myaka itandukanye ,ifite amababi kugira ngo ibashe gutanga umusaruro.

Ifumbire zikorwa mu byatsi. Abahinzi bakazikoresha mu gufumbira imyaka yabo. Muri iyo myaka bafumbira harimo ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uwo ni umusaruro w'ibihingwa bitandukanye, ibigori ndetse n'ubunyobwa, babyifashisha ngo kugira ngo bikorwemo imbuto kubera ko biba byaratunganijwe, bitange umusaruro ku baturage.

Hano haragaragara umurima w'ibigori, hakagaragara n'umunyegare urimo gusunika ifumbire ya dapu, arimo ayijyana kuyikoresha mu buryo bwo gufumbira ibyo bigori kugira ngo bizere neza.

Ubwoko bw'ifumbire mvaruganda ikoreshwa mu myaka itandukanye, muri iyo myaka ishobora gukoreshwa mu mboga, igakoreshwa mu nyanya, igakoreshwa ndetse no mu ndabo, kugira ngo zibashe kumera neza.

Ni sitoke y' ifumbire mvaruganda yo mu bwoko bwa Dapu, ni ifumbire ipakiye neza imifuka itondetse neza ku buryo ushobora kumanura umwe ku wundi, bitabangamiye umuntu ugiye kuyitanga, bitanabangamiye umuntu uje kuba yagura iyo fumbire.

Ikirere kigaragaza imisozi y'ibirunga ikindi gice kigaragaza ikiyaga, hari n'igice kigaragaza umusozi abaturage bahingaho imyaka. Hari igice kigaragaza ishyamba bashobora gucamo imiti, bakanacamo ibiti byo kuba bakwifashisha mu bintu bitandukanye.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kotsa amafi. Iyo bamaze kuyaroba, bafata ifi bakayitunganya, bamara kuyitunganya bakayishyira muri icyo gikoresho cyabugenewe. Bagahindura igice kimwe cyamara gushya bagahindu ikindi kugeza ifi ihiye itunganye.

Aha biragaragara ko ari ibiryo bigizwe n'ifi itetse neza igizwe n'umuceri, bigizwe na karoti ibiryo biteguye neza rwose mu buryo bushimishije kandi bunogeye amaso.

Hano hagaragara ikiyaga, hakagaragara ubwato, kandi hakagaragara abarobyi, hakagaragara n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuroba, bisobanuye ngo abangaba ni abarobyi bari mu nkengero z'ikiyaga, bari mu kiyaga barimo barimo kuroba amafi.

Ni icyuzi gikorerwamo ubworozi bw'amafi bwahujwe n'ubworozi bw'inkwavu, aho amahurunguru aturutse ku nkwavu atunga amafi ari muri aya mazi. Hakurya hari ibihingwa bitandukanye harimo imibyare, harimo ubwatsi bw'amatungo, ubu bworozi bukozwe neza.

Mu ishyamba r'ibiti by'inturusi rimeze neza, i ruhande rw'iryo shyamba hari umurima uhinzemo amashaza ndetse asaruwemo n'ibigori byari bivanze n'ayo mashaza, mu butaka butoshye bumeze neza, kandi bigaragara ko ari ubutaka bwo gutanga umusaruro.

Igihingwa cyitwa kayote hari ibice bimwe by'igihugu cy'u Rwanda bakunze kubyita ibidodoki, ni igihingwa basarura imbuto, hari bamwe barya n'amababi yazo nk'imboga.

Ishyamba ry'amatere ririmo ibiti bitandukanye, hari ibiti byumweru bishobora gukoreshwa nk'imiti, hari n'ibindi biti bisanzwe bishobora gukoreshwa nk'inkwi cyangwa se amakara ndetse abantu bashobora kubikoresha nk'imbariro cyangwa se uburyo bwo gushingirira ibishyimbo,

Umurima w'igihingwa bakunda kwita karoti baragiteye barafumbira batera imiti, kugira ngo kizatange umusaruro mwiza n'igihingwa kigeze igihe cyo kuba bagisarura kugira ngo gitange umusaruro bakijyane no ku isoko.

Umurima w'ibirayi uhinzemo ibirayi byiza cyane, by'ubwoko bwiza. Hari bimwe byarangije gutakaza indabo, bisobanura ngo bireze. N'ibindi bitari byatakaza indabo bitewe n'ubwoko bwabyo. Umuntu wese ashobora kuba yabisarura, akaba yabirya kuko bigeze igihe.

Hano hagaragara ubuhinzi bw'ibirayi aho rwose umurima w'ibirayi urimo ibirayi bigeze igihe cy'ururabo, bifashwe neza kandi bigaragara ko bigomba gutanga umusaruro.

Ahantu hasaruwe ibigori, aho bajya bita ikigorigori. Ni ahantu haba hamaze, ubutaka buba bumaze kwakira ifumbire, ku buryo muri sezo ikurikiraho, bashobora guhingamo ibirayi, bikera neza bigatanga umusaruro ku buryo bushimishije.

Umurima uhinzemo karoti zigeze igihe zo kuba zakwicirwa ,zigakumo ibyatsi, zikanagabanywa kugira ngo umurima ubashe gutanga umusaruro, uwazihize azigeze ku isoko, abashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Umusozi uteyeho ishyamba ry'ubwoko bubiri, hari ishyamba rikuze n'ishyamba rikiri ritoya, iri shyamba rikiri ritoya rikorwamo imiti, ishyamba rikiri rinini rigatemwa rikabyazwamo ibicanwa.

Umurima bahingamo ibintu bitandukanye. Mu bintu bihinze muri uyu murima, harimo ibigori, harimo imibyare, ndetse muri uyu murima harimo n'ibiti bakunda gushyira ahantu mu mbibi z'umurima. Hahinzemo n'indabo bakunda gukoresha mu busitani.

Ibiti bitandukanye，birimo ibiti bivangwa n'imyaka， harimo ibiti byitwa ibibingo， harimo n'ibindi biti byitwa resema bishobora kuvangwa n'imyaka，kandi ntibibe byayibangamira， ni ibiti bishobora gukoreshwa ku matungo mu buryo butandukanye， amatungo abirya hakavamo n’ifumbire.

Igihingwa cy'ibirayi gihinzwe mu butaka bwiza, ni ubwoko bwishimiye ubutaka, igihingwa kigeze mu gihe cyo kuba cyasarurwa bikabyazwa imbuto cyangwa se bikagurishwa mu buryo bwo kubirya, ibirayi bimeze neza.

Umusaruro w'ubuhinzi abaturage bakunda kwita kinigi bahinga mu nce zitandukanye z'imisozi miremire abaturage barayikunda kubera ko yera mu gace batuyemo.

Igitoki cyo mu bwoko bwa fiya, ni igitoki gihingwa mu misozi miremire, iyo kimaze gushaka gukomera umukanana barawukata bamara kuwukata, n'amakoma bakayagabanya iyo bamaze kuyagabanya nibwo uwo muhinzi aba yizeye ko igitoki kizakura neza.

Ni umuhinzi uvuye guhinga ugeze hafi y'umurima w'ibigori bishobora kuba byatanga umusaruro, bigeze mu gihe cyo kuba byatanga umusaruro. Umuhinzi wabigize umwuga witeje imbere, kandi ubikora neza ku buryo yakwitunga agatunga n'umuryango we.

Igihingwa cya karoti kimaze gusarurwa. Iyo bamaze kugisarura, ibi bijumba barabifata bakabitandukanya n'ibitwe byabyo byo hejuru, kugira ngo umukiriya ugiye kuyigura abashe kuyibona neza ikeye kandi ifite isuku.

Abantu bari mu murima barimo guhinga, barimo baratunganya ubutaka, batunganya intabire kugira ngo babone uko bahinga imbuto, iyo bagiye gutera imbuto babanza gucukura imyobo, iyo imyobo bagashyiramo ifumbire, bamara gushyiramo ifumbire bakabona gushyiramo imbuto bateganyije guhinga.

Imbuto z'amatunda zihinze ahantu heza, zakurikiranywe zigeze igihe cyo gusarurwa, abantu bose barazikunda, baba abakuru cyangwa abatoya, bakunda kuzikoresha cyane cyane mu igihe ufata neza ubuzima bwawe.

Ibigori bitatu bigeze igihe cyo guheka kugira ngo bibone uko bitanga umusaruro, ibigori iyo bishyizweho ifumbire biraheka bikazana umusatsi w'umutuku ndetse n'amababi atoshye, iyo bimaze guheka haba hasigaye kugira ngo bibone izuba n'imvura nkeya byere neza.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, bamaze gusarura bagejeje ku isoko ngo bazicuruze, mu izo mbuto harimo imyembe, harimo wotameloni, harimo ibinyomoro. Hafi y'izo mbuto hari ibikapu bitandukanye, abantu bashobora gukoresha batwaramo ibintu, cyane cyane igihe bavuye ku isoko.

Igihingwa cy'inanasi kimaze gusarurwa. Ikikubwira ko igihingwa cy'inanasi cyeze kigeze igihe cyo kuba cyasarurwa, nta bwo kiba kikiri icyatsi. Ahubwo kirahinduka kigatangira kuba umuhondo. Abantu baragisarura bakoresheje icyuma, kugira ngo bakijyane mu ruganda cyangwa se bagikoreshe mu buryo bw'ako kanya.

Ubworozi bw'inkoko z'ubwoko bumwe iyo bazigaburiye neza zijya zitera amagi zigatanga umusaruro ku mworozi wazoroye akaba yakwiteza imbere akagera ku rindi terambere avuye ku nkoko akagera n'ahandi.

uyu ni umusaruro w'ibirayi w'ubwoko butandukanye aho abahinzi batangiye kubitoranya havamo ibyagurishwa, ibyagirwa imbuto ndetse n'ibipfuye bakabitandukanya nabyo.

Igihingwa cy'igitoki cyo mu bwoko bwa fiya, igihingwa giteye mu butaka bufumbiye bumeze neza. Nk'igitoki kimaze gushaka gukomera, bafata umwanana bakawukata, kugira ngo gikomere neza, kandi hafi y'icyo gihingwa hahinze igihingwa cya kawa.

Abagore batatu bakora umurimo w'ubuhinzi, bafite amasuka atatu ya kidima barimo bahinga mu mujyo umwe, kugira ngo babashe kwiteza imbere n'igihe cy'ihinga kitazabasiga.

Inkoko iri aho bazororera, ibundikiye abashwi bayo, kugirango babashe gushyuha, badafatwa n'uburwayi ku buryo abashwi bashobora gupfa, ugasanga habayeho ikibazo cy'igihombo.

Aha hagaragara ubwoko bw'urusenda rwahinzwe neza, ugafatwa neza, rukera neza kandi rugeze igihe cyo kuba rwabyazwa umusaruro kubera ko rwasaruwe.

Uwo ni umubyeyi urimo gusarura ingano. Ingano zimeze neza, ingano zeze ,ingano zumye zigeze igihe cyo kuba zasarurwa ,zikavanwa mu murima zikajyanwa mu rugo, zigahurwa, zikaba zanahunikwa.

Hano haragaragara umurima wahinzwemo amashu ndetse hirya y'aho hahinze ibigori. Abahinzi bari mu murima barimo gushaka uburyo bazuhira, barashaka guhuza aya matiyo kugira ngo izi mpombo zizajye zizana amazi muri uyu murima ku buryo bworoshye, barashaka kuyahuza kugira ngo boroshye uburyo bwo kuhira.

Ubucuruzi bukorewe ku muhanda, aho bacuruza imineke, bajya bita kamaramasenge ndetse n'inyanya n'intoryi, kugira ngo babashe kwiteza imbere, batunge n'imiryango yabo.

Imbuto eshatu za avoka zasaruwe ku giti cyiza, kibanguriye, Ikikubwira ko ari igiti kibanguriye, ni imbuto ziba zimeze nk'izifite uduheri, kandi iyo avoka ihiye, ukayisatura, usanga imbere, imbere ifite ibara ry'umuhondo.

Igihingwa cy'inyanya kitari cyagera igihe cyo gusarurwa, ikikubwira ko iki gihingwa cy'inyanya kigeze igihe cyo gusarurwa, izi mbuto zirahinduka zikaba umutuku, noneho uje kuzisarura agasoroma izi mbuto akazijyana kuba yazikoresha.

Aha ni abaturage basuwe n'ubuyobozi, bagahurira ahantu mu gihingwa cy'imyumbati barimo bigishwa uburyo ki bahinga, banafata neza igihingwa cy'imyumbati.

Ahantu hacururizwa imbuto z'ubwoko butandukanye. Abantu bashobora kwifashisha bazirya cyangwa babyazamo umutobe. Muri izo mbuto zicuruzwa harimo ibinyomoro ,harimo amaronje harimo n'indimu. Abantu barazikunda kubera ko zituma mu nda hamera neza.

Ubworozi bw'inkoko z'amasake ndetse n'inkokokazi, izi nkoko iyo bagiye kuzigaburira zihurira ahantu hamwe zikarya, ndetse no mu gihe cyo kunywa zihurira ahantu hamwe zikanywa kubera ko inkoko nziza zifashwe neza.

Umuntu umwe uri gukurikirana igihingwa cy'ibishyimbo, arimo gukurikirana ko harimo ubukoko, ko bimeze neza, n'ibishyimbo bigeze igihe cyo kuba byaraba, byashingirirwamo ibiti, kugira ngo birusheho gutanga umusaruro.

Igihingwa cy'igipapayi kigiye gutanga umusaruro. ikikubwira ko igipapayi cyeze imbuto zimwe na zimwe zitangira kuba umuhondo ,abantu bakazisarura . Izo ngizo nizo ziba zemerewe kuribwa.

Imbuto itanu z'igiti cya avoka, ni imbuto zishobora kuboneka ku giti cyabanguriwe cyangwa se zikaboneka ku giti kitabanguriwe, n'imbuto zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, byaba kuzirya cyangwa se kuzikoramo ibindi bintu byo mu ruganda.

Iyi foto iragaragaza imbuto z'amapera, hari zimwe zisatuye n'izindi zidasatuye, kandi ikigaragara cyo ni imbuto zimeze neza.

Ni voka barya bakunda kwita gaheri, voka ziryoha voka zimeze neza voka zishobora kuvamo amavuta, voka bashobora gukoresha mu buryo bwo kuzirya mu buryo busanzwe, ni voka z'imbangurire ni voka ziba zimeze neza mu buryo bwose.

Aha haragaragara ubuhinzi bw'ibigori biri mu murima bigeze igihe cyo bibura igihe gito cyo kuba byasarurwa. Ibigori bimeze neza rwose byahetse ku buryo umuntu ashobora kuba yasarura akaba yarya ikigaragaracyo ni uko ibigori bigeze igihe cyo kuba byaribwa.

Ibiryo by'amatungo bitandukanye bashobora kuvanga bakurikije amatungo bashaka kuzabigaburira. Hari ibiryo bagaburira ingurube, hari ibiryo bagaburira inkoko, hari n'ibiryo bagaburira inka bitewe n'ibyo ari byo.

Uyu ni umubyeyi urimo kuhira imyaka ye mu murima yifashishije umupira wabugenewe kugira ngo umugezeho amazi mu buryo bworoshye.

Umusaruro w'inyanya weze neza, aho umuhinzi arimo kuzisarura. Iyo amaze kuzisaru amaze kuzitunganya neza, azishyira mu dufuka twiza, udufuka twabugenewe dushobora korohereza abaguzi kuba bazigeza ku isoko, cyangwa se kuba bazigeza mu ruganda bazibyaza undi umusaruro.

Ni umusaruro w'ibigori, bamaze kubyanika byarumye bimeze neza, bajya babipakira mu mifuka kugira ngo byoroshye kubihunika ,ndetse no kubihungura kugira ngo bitange umusaruro wisumbuye.

Igihingwa cy'ikigori kigeze igihe cyo guheka, iyo kimaze guheka hejuru hazaho umusatsi, umusatsi wamara kuma icyo kigori kiba cyeze. Iyo kimaze kugaragaza ibyo bimenyetso ibishishwa cyangwa se ibiti, bishobora kwifashishwa mu kubikoramo ifumbire yo gufumbira ubundi butaka.

Ni abahinzi bari mu murima w'ibigori. Ibigori by'amatere bimaze kugera mu gihe cyo kuba byasukirwa. Ni abahinzi batangiye igikorwa cyo gushyiraho ifumbire mvaruganda. bambaye udupfukamunwa, kugira ngo ifumbire mvaruganda itababangamira, biteguye umusaruro kubera ko biri mu gukorwa neza.

Abantu ibiri umugore n'umugabo barimo gutunganyag igihingwa cya karoti, igihingwa cya karoti ni igihingwa bitaho uhereye bakigitera, bakibagara, bagisukira kugira ngo kizabashe gutanga umusaruro.

Imirima y'ibigori ihingwamo uburyo bwa kijyambere, bigatuma abaturage bihaza mu biribwa batishwe n'inzara, kandi bagasagurira n'amasoko.

Umusaruro w'igihingwa wakunze kwita urusenda, umusaruro n'igihingwa uhingwa imbuto zikazaho zikabanza kuba icyatsi, ikikubwira yuko urwo rusenda rweze imbuto zitangira kuba umutuku, iyo zimaze kuba umutuku ahita afata umwanzuro wo kuzisarurag ukazijyana ku isoko.

Ibinyomoro byeze neza bihiye. Bashobora kubirya ako kanya bakibisarura kuko bireze, bimeze neza biratunganye kuko ibinyomoro ni igihingwa cyongera amaraso kandi kirimo intungamubiri.

imodoka irimo gupakurura ibitoki by'ubwoko butandukanye, aho abashinzwe kubipakurura barimo kubiherezanya babivana mu modoka, kugira ngo babashe kubishyira ahantu habugenewe cyangwa se babigeze mu isoko, ngo ababigura babashe kubigura ku buryo batavunitse.

Umurima w'ibigori bimeze neza, bigeze igihe cyo kuba abantu babirya, abantu babishinzwe barimo guteramo umuti wica urusimba kugira ngo hazaboneke umusaruro ushimishije muri bino bigori.

Inyanya inye zeze neza zihishije zigeze igihe cyo kuba zatanga umusaruro. Inyanya iyo zimaze kuba umutuku zishobora gutanga izindi mbuto, cyangwa se bagahita bazikoresha mu buryo bwo kuziteka by'ako kanya.

Ni ubuhinzi bw'ibigori, ibigori bigeze mu gihe cyo guheka. Bajya babihinga mu buryo bwa kijyambere mu buryo biri ku murongo. Ibigori bimeze neza bigaragarira amaso nk'ibigori bigomba gutanga umusaruro kubera ko byitaweho.

Imifuka bapakiramo umusaruro w'ibirayi cyane cyane bakunze gupakiramo umusaruro wa kinigi , ibirayi iyo bamaze kubikura babipara ahantu kugira imodoka neza ibashe kubitwara ku buryo bworoshye.

Umusaruro w'ibitoki bakunda kwita inyamunyo, abantu bakunze kubikoresha mu buryo bwo kubirya bitari ku bitara, kugira ngo bitunge ubuzima bwabo, naho ibindi bisanzwe byo babikoresha mu kugira ngo babone umutobe.

Igihingwa cy'ibigori kigeze igihe cyo kuba cyabagarwa, muri uwo murima harimo umugore umwe urimo kubagara. Igihingwa iyo gikurikiranwe neza kikabagarwa, kikanasukirwa ,cyanashyirwaho ifumbire gitanga umusaruro ku bahinzi.

Izi ni imbuto z'amapera bigaragara ko zasaruwe kandi zigasarurirwa mu ibase zigasarurwa hatangijwe amababi yegereye urubuto. Imbuto zitoshye zeze zimeze neza ku buryo umuntu yahita atangira kuzikoresha mu buryo bwo kuzirya.

Ni igiti cya avoka kishimiye ubutaka, ni igiti kiriho imbuto zeze zishobora kuba zasarurwa zigatarwa zikaba zakoreshwa mu buryo bwo ku zirya cyangwa se gukoramo ibindi bintu bitandukanye.

Iyi foto iragaragaza ibijumba bitatu. Ikijumba kimwe gikasemo kabiri, kigaragaza ko ari ubwoko bw'ibijumba bwa bundi buba bufite ibara ry'umuhondo imbere, ku buryo mu bishoboka ibijumba byakorwamo biswi. Ibijumba biryoha bimeze neza bitunganye.

Umurima uhingwamo igihingwa cy'ibishyimbo, aho abayobozi batandukanye bashinzwe iby'ubuhinzi baje gusura uyu murima. Abaturage batangiye kubishingirira ibiti, kubera ko bahinze ibishyimbo by'ubwoko bwa mushingiriro bikura bizamuka ku giti.

Igihingwa cy'imyumbati yeze bamaze gukura. Batangiye kuyicuruza. Iyo bamaze kuyikura kugira ngo bayicuruze bayijyana ku isoko. Bamara kuyijyana ku isoko, bakayipima ku munzani, ariko na none bashobora kuyicuruza bakoresheje kuyirunda imifungo.

Amatunda atatu akorwamo umutobe abana banywa, n'abakuru bashobora kuwunywa ,iyo bafashe itunda bakarishyira mu mashini bakarikamura ,ibikatsi bisigaye bikorwamo ibindi.

Umusaruro w'ibigori, abagore babiri bari gutoranya, hafi y'abo hari abandi bantu bane, ibigori batoranya bakabiyungurura bakabivanamo umwanda wose, byamara kuba byiza, bakabikorera isuku, bakabisheshamo ifu.

Ni ubunyobwa burimo gusarurwa mu murima, ubunyobwa bweze neza, butunganye rwose bwishimiye ubutaka. Bugiye kuvanwa mu murima, bugezwe mu rugo, ibiti byo hejuru bitandukanywe n'impeke zo hasi kugira ngo bibashe korohera uza kubwanika.

Ihundo ry'ikigori gitonoye cyeze neza, umuntu ashobora kwifashisha mu buryo bwo kukirya bashobora kukirya bakoresheje uburyo bwo kucyotsa cyangwa bakakirya bakoresheje uburyo bwo kugiteka kubera ko byose bishoboka.

Umubyeyi utoranya ibishyimbo. Ibishyimbo akuramo ibyapfuye ibisigaye akabishyira uruhande rumwe kugira ngo abashe kuzabikoresha nk'imbuto, bitavangavanze n'ibyapfuye.

Amahundo y'ibigori byeze neza, byumye, bimaze gusarurwa, ibigori iyo bimaze gusarurwa babijyana ku cyuma bakabibeta, bamara kubibeta bakabibyazamo ifu, iyofu bakaba bayikoresha nka kawunga, ndetse ibisigazwa bisigaye bakaba babikoresha nk'ibiryo by'amatungo.

Ubwoko bw'ibishyimbo bitandukanye bakoramo imbuto muri ibyo bishyimbo harimo ibishyimbo by'ibinyarwanda, harimo ibishibo bya gatuku, hari n'ibishimbo bya gakara, n'ibishyimbo bashobora gukoramo imbuto, cyangwa se bakabibeta bakaba babibyazamo ifu bikavamo biswi.

Ikirundo cy'amabuye，cyamezemo ingemwe enye z'ibishyimbo， ibi bishyimbo ikigaragara ni uko bidashobora kuzakura bititaweho， ngo bishyirweho itaka ngo bifumbirwe， ndetse bishyirwaho n'imvaruganda， kubera ko biri mu makoro ，ntabwo byabona aho byashinga imizi.

Igihingwa cyitwa igihwagari, izi mbuto iyo kimaze kwera, izi mbuto barazihungura bakazikuramo, bakazanika, bamara kuzanika, bakaba bazijyana ku mashini, bakazishesha zikavamo ifu, yo gukoresha isosi mu buryo bwiza cyane.

Ahantu habugenewe bahunika ibigori kugira ngo abaturage basaruye uyu musaruro babashe kubona uko biteza imbere, basagurire amasoko, ndetse babashe no kwita ku miryango yab, kugira ngo abana babo babone uko biga, babone uko biteza imbere na bo ubwabo.

Igihingwa cy'igihwagari cyeze ni igihingwa iyo kimaze kwera ibitwe byo hejuru, bashaka icyuma bakabikata, iyo bamaze kubikata barabihungura, imbuto bakazijyana ku mashini bakabibeta, bamaze kubibeta babibyazamo ifu ikaba yakoreshwa mu isosi.

Umurima uhinzemo igihingwa bita amashaza kigeze igihe cyo gutanga imisogwe ,amashaza ashobora kuyifashisha bayarya ,bayashogoye atariyuma bakayatonora agakoreshwa nk'imboga kandi nanone amashaza bashobora kuyifashisha igihe abayumye, bakayahura, bakayasya ,bakayabyazamo ifu mu buryo bwiza.

Ibishyimbo by'ibitonore by'ubwoko butandukanye, ni ibishyimbo basoroma mu murima bakabitonora bikiri bibisi, bamara kubitonora bashobora kubigurisha, batabigurisha ako kanya bakaba babishyira muri firigo bikazakoreshwa ikindi gihe nk'imboga.

Umuntu umwe wikoreye igikoresho bita igitebo. Igitebo kirimo amasaka y'amahundo ni amasaka bajya ku musozi bakayaca aho barayahinze, bakayajyana mu rugo bakayanika kugira ngo azatange umusaruro wicyo bashaka kuyakoramo.

Imbuto z'igihwagari, iyo igihwagari kimaze kwera baragifata bakakivungura, bamara kukivungura imbuto bakazishyira ukwazo n'aho zari ziri bakazitandukanya na cyo, barangiza bagafata izi mbuto bakazijyana ku mashini bakazisya ku buryo zitanga ifu, iyo fu igakoresha mu biryo barya.

Mu murima w'umuceri ubungabunzwe, umeze neza, urimo amazi ahagije, n'umuceri umeze neza, urahinzwe kugira ngo abaturage ndetse n'abandi bose bishoboka ko bakwifashisha umuceri mu rwego rwo gutunga ubuzima bwabo, bawifashisha bakabaho neza bo n'imiryango yabo bakagubwa neza.

Inzu y'ubuhuniro bw'ibigori, igihe sosiyete cyangwa se abantu ku giti cyabo bejeje umusaruro wabo bajya babijyanayo bakagenda bagahunika, bagahana igihe cyo kuzabikurayo bapanga kubijyana ku ruganda cyangwa se kuba babivugura, bakabihinduramo ikindi kintu byaba ifu cyangwa ikindi.

Uyu nguyu ni umurima w'ibishyimbo, ni ibishyimbo bihinze neza, ibishyimbo bihinze ku murongo, bitangiye kuraba byiteguye kuba byatanga umusaruro.

Imbuto y'igihingwa cy'ubunyobwa imaze gusarurwa yaranitswe, irumye, imaze kuma, ubunyobwa bufite gukoreshwa nk'imbuto bakongera bakabutera mu rwego rwo gushaka umusaruro, kandi na none bashobora kuyikoresha nk'ifu ishobora kuribwa.

Abantu babiri umugore, n'umugabo batangiye kwanika umusaruro w'ibigori byabo bamaze gusarura, ubundi iyo ibigori bamaze kubisarura hari ahantu haba harabugenewe bashobora kubyandika, kugira ngo babone uko babibyaza umusaruro.

Amahundo atatu y'amasaka yeze; ikikubwira ko masaka yeze ahinduka umutuku. Iyo amaze guhinduka umutuku ugatinda kuyasarura ibisimba bitandukanye bishobora kuyarya bikayangiza, kubera ko inyoni zirayakunda n'ibisiga birayakunda.

Imifuka ipakiye neza, ipakiyemo ibintu bitandukanye basaruye, bishobora kubyara imbuto, imifuka iri ahantu, irunze ahantu hamwe, byarateganijwe ku buryo mu gihe cy'ubukonje bayitwikira.

Umufuka urimo ibishyimbo by'imbuto bajya bakunda kwita uruyumba. Ni ibishyimbo basarura bakabyanika bakabitera umuti, bakabishira ahantu ku buryo bizabyara imbuto. Ni ibishyimbo bikundwa n'abantu benshi byororoka iyo babihinze mu butaka bw'ifumbire

Umurima w'ibishyimbo uhinzemo ibishyimbo byo mu bwoko bwa mushingiriro, ni ibishyimbo bishingiriye neza, ibiti birahambiriye bimeze neza. Ibishyimbo birimo kuzamuka kuri ibyo biti kugira ngo bizatange umusaruro igihe bizaba byeze.

Igihingwa cy’ubunyobwa, cyari kimaze gutanga imishogwe. Ubundi, igihingwa cy’ubunyobwa, baragihinga, kigashora imizi. Iyo kimaze gutanga imisogwe, iyi misogwe, barayitona. Bamara kuyitonora, bikavamo imbuto. Izo mbuto, bashobora kuzikoresha, basheshamo ifu, cyangwa se, bakayikoresha, bongera gukuramo imbuto.

Amahundo y'ibigori, apakiye mu mufuka, yeze neza, yumye, atunganyije neza. Iyo bamaze kubitunganya, babishyize mu mufuka, babijyana ku mashini. Bamara kujyana ku mashini, bakabihungura, bakabibeta. Bamara kubibeta, bakabikuramo ifu. Iyo fu bakabibyazamo ibindi bishobora gutanga umusaruro ku buryo bwisumbuye.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibigori bigeze igihe cyo kuba byaheka ,ibigori bigaragara nk'aho byashyizwemo ifumbire mvaruganda, ni ibigori bihinzwe ku murongo bihinzwe kijyambere ,mu by'ukuri ibigori bituje bitoshye bimeze neza.

Umufuka bakunze kwita ikigunira upakiyemo imbuto z'ibihwagari zitonoye neza zavanyweho cya gishishwa cy'inyuma; ni imbuto zigeze igihe cyo kuba zajyanwa ku mashini zikabyazwamo ifu.

Imbuto z'ibihaza biribwa, izi mbuto bashobora kuzikoresha bazanika, zikongera zikabyara ibindi bihaza. Cyangwa bakazikoresha bazibetamo ifu. Iyo bamaze kuzibeta bashobora kuzikoresha mu biryo, cyangwa bakazikoresha mu miti.

Umusaruro w'ubunyobwa batari batonora，uvanze n'ubunyobwa bukeya barangije gutonora，umusaruro ni w’ubunyobwa ugira impeke z'umutuku， abantu bakunda kuwukoresha iyo bashaka kunywa isosi.

Imbuto zo mu bwoko butandukanye abahinzi bashobora kwifashisha mu gutubura umusaruro. Muri izi mbuto harimo ibishyimbo, muri izi mbuto harimo soya, muri izi mbuto harimo umurama wa karoti, muri izi mbuto harimo umurama w'intoryi. Abahinzi bashobora kuzifashisha mu gihe cy'ihinga cyageze.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'umuceri ,ubuhinzi butuma abaturage biteza imbere abana barawukunda, abagore barawukunda ,abagabo bawukunda ,kandi babona amafaranga ugatanga n'akazi kugira ngo abantu bataba abashomeri.

Inzu y'ubuhunikiro bw'ibigori yubatse neza ku bipimo biteganijwe, abaturage bakunda kujya guhunikayo ibigori umusaruro wabo cyangwa se amashyirahamwe yishyize hamwe bajya bajyayo kuba bahunikayo, mu gihe bategereje kuzabigira imbuto cyangwa se kuba babijyana ku mashini bakabibyaza undi musaruro.

Ni umusaruro w'ibigori umeze neza rwose， kandi utunganye， aho ba nyir'ibigori， barimo babyanika ngo byumye neza， bazafate igihe cyo kugira ngo babivungure， hanyuma babe babijyana ku mashini babikoremo ifu，babikoremo kawunga， kandi n'ibisigazwa byabyo bakaba babikoresha nk'ibiryo by'inkoko.

Igikoresho cyabugenewe gicururizwamo amagi inkoko ziba zimaze gutera. Iki gikoresho cyoroshya uburyo bwo kuba aya magi inkoko zateye bayageza ku isoko, bakabasha kuyacuruza bakayabyazamo amafaranga.

Ubu ni ubworozi bw'ingurube, aho hari ikiraro kimwe kirimo ingurube nkuru, ndetse n'ikindi kiraro kirimo ibibwana by'ingurube umunani, ubu ni bworozi bw'ingurube bukozwe neza, ku ngurube zatoranijwe, zigaburiwe neza, zifite isuku, kandi ziritegura gutanga umusaruro kubera ko zifashwe neza.

Ahantu habugenewe hakorerwa ubworozi bw'inkwavu, ni inkwavu zitanga umusaruro, izo nkwavu ziba zaragenewe ibikoresho bitandukanye byo kuziha amazi, ibikoresho bikunze kuba bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, bikoreshwa kugira ngo izi nkwavu zinywe amazi.

Inka ebyiri za kijyambere, zororerwa mu biraro byabugenewe, byubatse neza, bitunganye, ibiraro byubakishije ibiti, byubakishije n'imbaho. Imbere y'ibyo biraro hari ubusitani, inka zishobora gutembereramo, mu gihe zirimo kugira ngo bazikorere amasuku.

Itungo ry'ingurube ririmo konsa ibyana byazo, kuko uburyo ingurube zikoresha ziraryama kugira ngo zibashe konsa ibyana byazo, bitewe n'uko ibyara ibyana byinshi ntabwo ryahagarara ngo bikunde ko byose byakonka.

Ubworozi bw'amatungo magufi aho abantu babiri barimo kugaburira ihene eshatu, ihene zubakiwe ikiraro cyiza gishobora gutuma zororoka kandi iruhande rw'aba bantu hari kandagira ukarabe, mu rugo rwabo ndetse n'akabuni ko kuba bakoresha bongera amazi muri kandagira ukarabe.

Umugabo urimo gukurura ihene kugira ngo arebe ikibazo ifite mu kinono cyayo, kubera ko ihene zinyura ahantu zigakandagira umusumari ,ibyo birafasha uyu mugabo kugira ngo abashe kuyisuzuma ,amenye icyo irwaye ndetse no kuyivura bibashe kumworohera.

Ingurube itatu ziri ahantu zororerwa ziri ahantu hafi y'ikizu cyazo bazororera, n'inkwavu zifashwe neza zorowe neza z'inzungu kandi zibyibushye.

Inzu yorerwamo inkoko z'ubwoko butandukanye, inkoko zishobora gutanga inyama, inkoko zishobora gutanga amagi, uzishinzwe arimo azigaburira, kuko aba ari amategeko, kugira ngo ku munsi ziryaga inshuro itatu.

Ibibwana by'ingurube birindwi birimo gutamba ahantu byororerwa, birimo kurisha hafi y'aho bitaha, ni ibibwana byiza bibyibushye bigeze igihe cyo gutanga umusaruro w'amafaranga, ku buryo umuntu uwo ari we wese akibonye ashobora kucyishimira akakigura.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, aho zororewe harimo ibikoresho zigomba kunyweramo amazi, ni inkoko zigaburiwe neza ni inkoko zibyibushye, ni inkoko zitanga umusaruro mu gihe cya vuba.

Inka y'inyarwanda bashyize mu gipangu cyabugenewe, ni igipangu aborozi ndetse n'abaveterineri bakoresha mu gutera intanga, cyangwa se bakagikoresha bashyiramo inka kugira ngo babashe kuba bayibangurira.

Intama zirindwi zirimo kurisha ku musozi ,muri izo ntama zirindwi harimo intama eshatu nkuru n'izindi ntama enye ntoya ,izi ntama zirimo kurisha hafi y'ikiraro zororerwamo, intama zimeze neza zituje kandi zibyibushye.

Ibiraro byororerwamo inka byujuje ingero ku buryo abaturage bashobora kubikoresha bagatera imbere bakabonaga n'umukamo utubutse, ndetse n'umusaruro w'ibyo boroye.

Inka nziza yo mu bwoko bw'inzungu, iyo imaze kuvuka imaze amezi make, abantu barihuza bakayifata, bakifashisha ababigenewe, bakayishyiraho amaherena, kugira ngo yuzuze ibisabwa kugira ngo yitwe inka y'inzugu bya nyabyo.

Ubworozi bw'inkoko zikiri ntoya z'amashwi, zororerwa ahantu hatunganye hameze neza, ziri kumwe n'ugomba kuzitaho nk'umuveterineri ibiryo zihabwa ni ibiryo biri ku bipimo ,biri ku ngero ziteganijwe zifite ahabugenewe zigomba kurira zimeze neza.

Inka ikiri ntoya bakunda kwita umutavu, iyo yororowe ahantu hatari mu kiraro, bakunda kuyizirika umurunga, kugira ngo nyina niva kurisha, ibashe kuyihasanga itari yajya kure.

Aha hagaragara ko ari inyoni, ni ubwoko bw'inyoni, inyoni ifite abana bayo batatu bari mu cyari, ihagaze iruhande rw'icyari, ihagaze imbere y'abana bayo, bategereje ko nyina igomba kubagaburira.

Igisiga bakunda kwita ikiyongoyongo, ni igisiga usanga ahantu hafi y'inyanja, cyangwa ukagisanga ahantu mu bihuru ndetse no mu biti, ni igisiga gikunda kurya imbeba, kikanarya inzoka.

Hano harimo kugaragara ubwoko bw'igisiga cyitwa ikiyongoyongo, hakagaragara n'izindi nyoni. Bigaragara ko kirimo gutembera mu ishyamba ahantu hari ibiti, hari ubusitani bw'ibiti n'ibyatsi bitandukanye.

igisimba bakunda kwita umuserebanya, ni igisimba ushobora gusanga mu bisenge by'amazu cyangwa se ukagisanga ku nkuta, abana baragitinya, abantu bakuru baragitinya, kubera ko ni igisimba kidakunze kuboneka, ahantu henshi hatandukanye.

Inyamaswa yororerwa mu ishyamba ni inkende. Iyo ugeze mu ishyamba, inyamaswa urazihasanga, urwego rwo gusigasira ubukerarugendo, inyamaswa zibungabunzwe, zitaweho zidapfa kuvogerwa n'abantu bose muri parike iyo uhageze.